Mu ivuriro umuganga w'umugore wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, ari gutera urushinge umurwayi wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'umupira wa kaki.

Ivomo rusange ry'abaturage rifite ibara ry'ubururu, hariho amarobine atatu, hari abagabo, abana ndetse n'abagore baje kuvoma, barishimye bishimiye amazi meza.

Umwana w'umukobwa wambaye akajipo n'agashati bikoze mu gitenge, afite imisatsi iryamye ku mutwe, ari gukaraba amazi meza ku mugezi, ari gukarabira mu ibase y'umukara.

Umwana w'umukobwa w'imibiri yombi, ufite imisatsi y'umukara, irimo amasaro y'icyatsi, umuhondo n'umutuku, ateruwe na nyina, ari guterwa urushinge n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Abaturage barimo abagabo n'abana, bari ku ivomo rusange bavomaho bapompa amazi, hari ijerekani nini y'umuhondo n'akajerekani gato k'umuhondo, bari kuvoma barishimye.

Abaganga barimo abasore n'abakobwa, bamwe bambaye amataburiya y'umweru, bose bambaye amabaji y'ubururu. Bahagaze hamwe barimo kwifotoza amafoto.

Abana babiri bahagararanye, bose bambaye utwenda tw'umutuku, umwe ari gukarabya intoki undi n'amazi meza, akoresheje igikombe cy'ubururu.

Umuganga wambaye itabuririya y'umweru n'igitambaro mu mutwe, ari gupima umugore wambaye igitenge n'ikote ry'umutuku mu kaboko umuvuduko w'amaraso.

Mucyaro hari insina imbuga ikubuye neza, hari akarima k'igikoni karimo imboga za dodo, hari agatanda gakozwe mu biti kariho ibyombo byogeje neza.

Umwana muto w'umunyeshuri yambaye ishati ya karokaro n'ijipo y'umutuku ari gukaraba kuri kandagira ukarabe n'ibase y'umutuku.

Icyumba kiberamo inama harimo umuyobozi umwe wicaye ku ruhande rumwe wenyine, abandi bicaye bateganye mu mpande ebyiri harimo; amazi ndetse na mikoro bavugiraho.

Umwana w'umukobwa ari ku ivomero rusange ry'abaturage ari gukarabira intoki kuri robine, ari kureba inyuma, yambaye agapira k'umutuku afite agasatsi gake ku mutwe arishimye.

Umuganga w'umusore wambaye itaburiya y'umweru, na ga z'umweru, na baji y'ubururu, ari guha imiti umukecuru ukenyeye igitenge, ateze n'igitenge mu mutwe.

Abana babiri b'abahungu, bicaye mu ishuri ry'amatafari ahiye, umwe yambaye inifomo undi ntayo yambaye, bose bari guseka, umwe yamanitse agatoki, bigaragara ko ashaka gusubiza ikibazo.

Abagore benshi bateruye impinja, bambaye ibitenge ndetse biteze ibitambaro mu mutwe, baje gukingiza abana babo inkingo zitandukanye.

Abana babiri b'abahungu bari ku ivomero, umwe yambaye utwenda dukozwe mu gitenge, undi yambaye agapira k'umutuku, bose barirabura bari gukaraba ku mugezi amazi meza.

Ku ivomo rusange ry'umudugudu hari umugabo wambaye neza uhagaze imbere y'umugezi, hari n'umwana wambaye imyenda isa nabi uri guterura indobo ya oranje agiye kuyikorera.

Umukobwa usutamye wambaye ijipo y'umukara n'agapira k'umutuku, afite umusatsi wa naturere ari kuvoma ku ivomo rusange akoresheje ibase n'ikijerekani cy'umuhondo.

Abana birabura, bafite umusatsi muke, bamwe bari guseka, bambaye imipira y'ubururu, yanditseho ijambo UNICEF.

Umugabo n'umugore bicaranye n'umujyanama w'ubuzima, ari kubagira inama z'uko bubaka urugo ndetse n'uko baboneza urubyaro.

Abagore bari ku ivomero bambaye ibitenge umwe ari kuvomera mu ndobo abandi babiri bari kumufasha kuvoma, umwe yambaye igitambaro mu mutwe anavoma amazi.

Ivomo rusange, ivomo bavomaho bapompa amazi, hari umukobwa muremure wambaye ipantaro y’umukara n’agashati k'ubururu, hari abana bahagaze bari kuvoma.

Umwana w'umukobwa ufite ibisuko wambaye utwenda tudoze mu bitenge, ari ku ivomo rusange ari gukaraba amazi akarabira mu ibase nini y'umukara.

Ku ivomero rusange ry'abaturage hari abantu benshi batandukanye abagore abagabo n'abana bari kuvoma batonze amajerekani n'amabase bategereje amazi.

Umunyeshuri wambaye ishati y'ubururu ufite agasatsi gake, ari guterwa urushinge na muganga wambaye ishati ya karokaro, itaburiya y'umweru na baji y'ubururu, ari kurumutera mu kaboko k'ibumoso.

Abanyabuzima bambaye amataburiya y'ubururu, n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru na baji, bari hamwe n'umuzungu abahagaze hagati, bari kwifotoza.

abagore babiri umwe yambaye ikanzu y'umukara n'ikote rya karokaro ry'umukara n'umweru undi yambaye ikanzu'umuhondo irimo uturabyo tw'umutuku yiteze igitambara cy'umuhondo mu mutwe

Umugabo wo mucyaro, wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, ari guseka, ari gukarabira kuri kandagira ukarabe y'ibiti n'akajerekani.

Abaganga batatu b'abagabo, babiri bambaye imyenda y'ubururu bafite udukarito mu ntoki, umwe yambaye itaburiya y'umweru, bose bambaye udupfukamunwa.

Umugore wambaye imyenda ikoze mu gitenge n'igitambaro mu mutwe ateruye umwana, umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru ari kumupfuka mu mutwe.

Abaganga batanu barimo umukobwa umwe n'abahungu bane. Bamwe bambaye amataburiya y'umweru, umwe yambaye agashati k'ubururu, undi yambaye agapira k'ubururu. Bane baricaye umwe ahagaze inyuma yabo. Bose bicaye mu itente.

Umuganga wambaye ga z'umweru. Ari gutera urushinge umuntu wambaye agapira karimo uturongo tw'umukara n'umweru mu kaboko k'ibumoso.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara ,ari kw' ivomero ari kuvoma amazi. mu kajerekani gafite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge, ateruye umwana muto, umuganga wambaye itaburiya n'ibitenge ufite ibisuko, ari kumuha umuti akoresheje agafuniko k'imiti.

Ivomero, ibijerekani, haragaragara abadamu batatu baje kuvoma batonze ibijerekani, bigaragara ko baje kuvoma ku ivomo rusange rifite amazi meza.

Utuzu tubiri twubakishije amatafari ahiye, imbere y'akazu kamwe hari amatafari ahiye ndetse n'umusore uhagaze imbere y'urugi.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero, ateze ibiganza ku mugezi ari guseka, yambaye agashati gakoze mu gitenge, afite agasatsi gacye, kuruhande rwe hari amajerekani y'umuhondo niy'ubururu.

Mu cyaro imbere y'ibiro by'ubuyobozi hari abantu benshi, abagore, abagabo, bamwe bicaye hasi mu byatsi, hari amatete y'umweru, inyubako y'ibiro ndetse n'imodoka.

Umwana wirabura uri guseka yambaye agapira k'iroza, ari gukorerwa ikijerekani cy'umuhondo cyanditseho UNICEF n'umugabo uri guseka wambaye agapira k'ubururu.

Abana bicaye hasi, harimo umupolisi uri guha umwana amata, harimo n'umugore wambaye ijipo yikigina uri guha umwana amata, ndetse n'undi wambaye umupira wa oranje n'ingofero y'ubururu.

Umugore n'abana bari kuvomera ku ivomero ryo mu rusisiro, umugore yambaye igitenge n'agapira yiteze no mu mutwe, abana bari kuvoma amazi bari kuvomera mu mabase ndetse n'ijerekani imwe.

Abaturage baje kuvoma amazi meza ku ivomo rusange, biragaragara ko bishimiye ivomo rusange bahawe kandi ko ribafasha mu buzima bwa buri munsi no kubona amazi meza.

Ivomero rusange, hari abanyeshuri bambaye impuzankano za kaki, hari imigezi itatu ndetse n'indobo zisa nk'umuhondo, abanyeshuri bari kuvoma bishimye.

Umugezi utemba harimo umugore wambaye ijipo y'igitenge n'agapira k'umuhondo ari kuvoma amazi akoresheje ijerekani, harimo n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara ari kogerezamo igare.

Umugore wambaye imyenda ikoze mu bitenge n'igitambaro mu mutwe. Ateruye umwana. Afite amafishi mu ntoki. Inyuma ye hari abandi bantu barimo abagore bateruye abana.

Abana benshi bo mu cyaro bishimye, bari imbere y'umugezi bahurije ibiganza ku gihombo kizana amazi, barishimye bishimiye amazi yabo yo mu rusisiro.

Abanyabuzima bicaye barimo abakecuru bafite imisatsi ya natirere n'umugabo umwe wicaye uri kureba muri terefone, bambaye amataburiya y'ubururu bari kureba mu bitabo bafite.

Abaganga barimo umusore wambaye itaburiya y'umweru, umugore wambaye itaburiya y'ubururu bari gusuzuma abarwayi indwara babatera udushinge ku ntoki.

Umwana w'umunyeshuri w'umuhungu, uri guseka. Wambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu. Afashe ibirahure bibiri mu ntoki. Shagaze imbere y'iriba risa nabi.

Umugabo wambaye ishati ufite imisatsi myinshi n'inkoni, n'umugore wambaye urunigi ukenyeye n'igitenge. Bafashe umwana umeze nk'umusazi bari kumurandata.

Umugabo wirabura yambaye ishati ikoze mu gitenge n'ipantaro y'umukara, yegamye ku gikuta cy'umweru arimo kota izuba.

Umukobwa w'imibiri yombi ari guseka afite imisatsi y'umukara ya natireri, yambaye agakanzu k'ubururu n'agakote k'umutuku arishimye cyane.

Umukecuru w'umusazi, wambaye imyenda yashaje n'inkweto zashaje, afite ibyatsi n'amashashi mu ntoki, ku ruhande rwe hari ibicupa.

Abakobwa babiri bicaye, umwe yambaye ikanzu y'ubururu n'umweru, afite umusatsi wa natirere, undi yambaye umupira w'umukara afite imisatsi isukishije.

Abagore babiri bakenyeye ibitenge, bateruye abana bambaye utugofero mu mutwe, bari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye agapira n'ipantaro.

Umugore wambaye igitenge n'agapira ahetse umwana mu mugongo n'undi amuri ku ruhande, umugore atetse igikoma ku mbabura, ari gukoroga igikoma akoresheje ikiyiko.

Umugore wicaye mu ishyamba ry'ibiti, yambaye agapira k'umuhondo akenyeye igitenge, aziritse umunyururu ufashe ku giti, yambaye kamambiri z'umukara zifite udushumi tw'umutuku.

Abasore n'abakobwa bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, bahagararanye n'umusaza uri hagati yabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru n'umukecuru uhagaze ku ruhande rw'ibumoso, wambaye ikote rya kaki n'ipantaro y'umukara.

Umusazi w'umugabo, wirabura, afite imisatsi yahirimbiye, n'ubwanwa bwahirimbiye, yambaye imyenda yacikaguritse, amenyo amwe n'amwe yavuyemo, ahagaze ku muhanda.

Umusore ufite uburwayi bwo mu mutwe w'umusazi, yambaye imyenda yacikaguritse, inkweto zashaje, yisize amakara mu maso, imisatsi yamwereyeho, inyuma ye hari imodoka, ahagaze muri kaburimbo.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe w'umusazi, yambaye igitenge mu mugongo hararangaye imisatsi yamuhirimbiriyeho yicaye muri rigori aho amazi atembera afite ishashi mu ntoki.

Abanyeshuri benshi bari mu kigo cy'amashuri, bambaye amashati y'ubururu, bazamuye ibiganza bari guseka barishimye cyane, inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cyu Rwanda.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru n'ibisuko by'umukara yifashe mu mutwe afite ibitekerezo byinshi n'ibibazo byinshi ari kwibaza.

Umugore wicaye mu nzu ku ntebe y'urubaho, akenyeye igitenge, yambaye agakote k'amaboko maremare, imbere ye hari umusambi, inyuma ye hari idirishya rifite ibara ry'umukara rikinguye.

Umugabo yambaye ishati y'ubururu ashaka kumwenyura, inyuma ye hari abantu batandukanye barimo umugabo wambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'umutuku

Abana bicaye hasi biganjemo abiyogoshesheje bari guseka, bamwe bambaye imyenda y'icyatsi, abandi bambaye ibitandukanye barishimye cyane.

Abana, abagore, abagabo benshi bafite amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda bayazamuye hejuru bari kuyazunguza barishimye cyane.

Umuganga w'umusore ufite imisatsi mike ,wambaye amarinete n'itaburiya y'umweru , ndetse na ga z'umweru. Ari gusuzuma umwana mukanwa . Areba ikibazo yaba afite mu menyo ye, akoresheje utwuma twabugenewe.

Umusore w'imibiri yombi ufite ibisuko wambaye agapira k'umweru afite akadodo, ari kugenda akanyuza mu menyo agenda akuramo imyanda, ari kumwenyura.

Umuhungu w'imibiri yombi, ufite amenyo y'umweru cyane n'utwana two hejuru duke, afite akadodo ari kugenda anyuza mu menyo kugira ngo akuremo imyanda.

Umurwayi w'umugore aryamye ku gitanda arasamye, abaganga babiri bari kumuvura bambaye amarinete n'udupfukamunwa tw'ubururu, umwe yambaye itaburiya y'umweru undi yambaye iy'ubururu.

Umusore w'inzobe ufite imisatsi n'ubwanwa, aryamye ku gitanda, yambaye ishati ya karokaro, ari guseka, ari kwitabwaho n'umuganga uvura amenyo.

Umukobwa winzobe ufite imisatsi y'umukara, afite akadodo mu ntoki ari koza amenyo, ari kumwe n'umuhungu w'imibiri yombi na we ari koza amenyo akoresheje akadodo.

Umusore w'imibiri yombi wambaye agapira k'ubururu, ufite ubwanwa buringaniye n'agasatsi gake, ari guseka afite amenyo y'umweru cyane, arasamye.

Umusore ufite ubwanwa n'umusatsi uringaniye, aryamye ku gitanda ari guseka ari kwitabwaho n'umuganga, wambaye ga z'ubururu n'itaburiya y'umweru yita ku menyo ye.

Umugabo ufite amenyo y'umweru cyane, ufite ubwanwa buke wambaye umupira w'umweru, afite akadodo ari kugenda akanyuza mu menyo kugira ngo akuremo imyanda, arishimye cyane.

Amenyo mu kanwa iryinyo rimwe bamaze kurikura bakoresheje akuma gakura amenyo, iryinyo bakuye ririho amaraso ndetse n'aho barikuye hariho amaraso, amenyo asa nabi.

Umwana w'inzobe ufite imisatsi myinshi, ari kwitabwaho n'umuganga, yita ku menyo ye areba uburwayi burimo, umwana yashinyitse amenyo, ari kureba muganga.

Umusore w'imibiri yombi uri guseka, afite amenyo asa neza yogeje, afite ubwanwa buke, yambaye agapira kari mu ibara ry'umweru.

Umukobwa uri guseka, afite imisatsi miremire arishimye, afite uburoso mu ntoki ari koza amenyo, yambaye agasengeri k'umweru.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano y'ikigina n'umuhondo bafite korogate mu ntoki barishimye cyane kuko bahawe korogate.

Umukecuru w'imibiri yombi, yambaye ikanzu y'umuhondo, afite imisatsi myiza ku mutwe, yambaye amarinete ari gukura imiti mu gicupa agiye kuyinywa.

Abagore n'abakobwa bari ku murongo umwe, umugore w'imbere yambaye ikanzu ikoze mu gitenge n'agapfukamunwa, abari inyuma ye bambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru.

Umusaza w'imibiri yombi, yifashe ku gahanga. Afite imvi nke mu bwanwa no mu musatsi. Yicaye ku ntebe, ukuboko kumwe gufashe mu ikayi, ukundi gufashe ku gahanga, arimo gusoma.

Umukobwa w'umuzungu ufite imisatsi miremire, wambaye ipantaro n'agashati, ari kwita ku musaza wambaye ipantaro n'ishati, amufasha kugenda.

Umugore uri gukorera siporo mu rugo, yicaye ku gatapi yambaye ipantaro y'umukara agaseri k'ubururu afite imisatsi isa nk'ivu, ibiganza bye abifatishije ku nkweto.

Umusaza w'imibiri yombi wambaye amarinete ufite imvi nyinshi mu mutwe, yicaye ku ntebe, amaboko ye ari kumeza, afite ikayi ari kwandikamo akoresheje ikaramu, yambaye ishati yicyatsi n'agakote k'umweru.

Umusaza wicaye mu kagare, yambaye amarinete, agapira k'umuhondo, n'ipantaro y'ikoboyi. Ari kumwe n'umwana wambaye ipantaro y'ikoboyi, agapira k'icyatsi, ufite imisatsi myinshi, umwana ari guseka.

Abayobozi n'abaganga bahagaze hamwe, imbere yabo hari insimburangingo, zifasha abafite ubumuga, barishimye bagiye guha abafite ubumuga izo nsimburangingo.

Umukecuru n'umukobwa we baricaye bari guseka, umukecuru ari gukata imboga ,naho umukobwa we arikumwitegereza amwenyura afashe igisuperi mu ntoki.

Umusaza n'umukecuru bose bashaje, bafite imvi, umukecuru yambaye akenda k'umutuku afite amaherena mu gutwi, umusaza afite imiti mu ntoki, umukecuru ari kumwereka uko aranywa iyo miti.

Abagore batatu bicaye, umwe afite imisatsi y'imvi, abandi bafite imisatsi y'umukara, umugore umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye ikanzu y'umukara, nagapira k'umweru inyuma, undi yambaye agapira k'umukara gaciyemo uturongo tw'umweru, baricaye bafite amakarita mu ntoki.

Umuryango wahuye uri hamwe, umuryango ugizwe n'umusaza n'umukecuru bakuze. Umugore, umugabo ndetse n'abana babo babiri. Umuryango urishimye cyane

Umusaza ufite imvi wambaye agapira k'ubururu n'ikabutura yumukara arikumwe n'umuforomo w'umukobwa wambaye imyenda y'umukara ufite n'imisatsi y'umukara.

Abagore babiri b'inzobe bari muri siporo, umwe afite ibisuko by'umukara, undi akenyeye agatambaro k'umutuku mu mutwe, bambaye imyenda y'umukara bose, inyuma yabo hari ubusitani n'ibiti byiza.

Umukecuru mukuru ufite imvi yambaye akabodi k'ubururu n'umwitero w'umweru ndetse n'urunigi rwo mu ibara ry'umweru n'umukara, afite mikoro mu ntoki ari kuvuga.

Umusore w'umuganga ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi uringaniye . Yambaye imyenda y'ubururu afite agakoresho gakoreshwa mugupima uko umutima utera mu ijosi . Yicaranye n'umukecuru ufite inkoni mu ntoki . Wambaye agashanete n'umupira w'ubururu.

Umusaza w'umuzungu ufite imvi, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda, yambaye agapira n'ipantaro, ari kumwe n'umuganga w'umwirabura, wambaye imyenda y'ubururu, uri kumusekera amwitaho.

Abagore batatu n'abagabo babiri bari muri siporo bari gukorera siporo yo kwirukanka mu muhanda, abagore n'abagabo bose bambaye amapantaro ndetse n'imipira. Bishimiye siporo bari gukora.

Umusaza w'imibiri yombi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara arikumwe n'umuganga w'umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu ufite n'imisatsi umuganga ari kumwitaho.

Abagore bari mu isoko bicaye hamwe, bambaye imyenda ikoze mu bitenge bari gucuruza imboga zirimo, inyanya ndetse n'imbuto zitandukanye.

Umugabo w'umwirabura wambaye amarinete n'umugore w'umuzungu bafatanye mu kiganza bishimye cyane bahuje urugwiro.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, wambaye amaherena, afashe ku rutugu umusaza no ku kaboko, bari kurebana bari guseka.

Umugore w'umuganga ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda y'ubururu, ari gupima umuvuduko w'amaraso umukecuru wicaye mukagare akoresheje agakoresho gapima umuvuduko w'amaraso.

Umukecuru n'umusaza bakuze, umusaza yambaye amarinete n'agapira k'umutuku, umukecuru yambaye agashaneti, amaherena, agapira k'umutuku karimo uturongo tw'umukara, bari kwitegereza imiti.

Umuryango ugizwe n'umusaza, umukecuru, umugore, umugabo, umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu, bose bari guseka, inyuma yabo hari ibiti byiza ndetse n'akazuba keza.

Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi, ufite ibisuko n'agapfukamunwa k'ubururu, ari kwita ku musaza wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu, amufungira ibipesu.

Umukobwa w'umuganga wambaye ishati y'ubururu ufite imisatsi myinshi ku mutwe ari kumwe n'umurwayi w'umusaza, wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro yikigina na marinete ari kumupima indwara mu kaboko.

Umusaza ufite imvi wambaye umupira w'ubururu, n'umukecuru ufite imvi wambaye agapira k'umuhondo, bicaye ku ntebe bashyize amaboko ku meza bari gusoma ku rupapuro ibyanditseho.

Umuganga w'umuzungu wambaye imyenda y'ubururu ufite imisatsi myinshi, ari kwereka umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uko bakora siporo.

Umukecuru n'umusaza ufite imvi bafatanye ku rutugu, umukecuru yambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe ari guseka, umusaza amuryamye ku rutugu ari kumusoma ku itama, barishimye cyane.

Umukecuru w'inzobe, ufite imisatsi y'umuhondo. Yicaye ku ntebe, afashe ikirahure cy'amazi mu ntoki, ateze ikiganza. aAgiye kunywa ikinini ari guhabwa n'umukobwa w'umuganga wambaye ishati yubururu.

Umugore n'umusaza bicaye mu cyumba k'imiti umugabo yambaye ishati ya karokaro n'umugore yambaye ishati y'ubururu bari kwitegereza icupa ry'umuti.

Rubyiruko ni mwe hazaza heza h'u Rwanda irinde virusi itera sida, ipimishe uyu munsi, ubukangurambaga bwo kwirinda virusi itera sida.

umugabo wumuzungu wambaye umupira wumukara amarinette ningofero afite igipapuro mu ntoki cyanditseho ngo mank pox vasin aceses naw

Abakobwa bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye imipira y'umweru, bafite ibisuko by'umukara, imbere yabo hahagaze umukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'ikote ry'umukara ari kubigisha, hari n'umukameramani uri gufotora.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, ubushita bw'inkende, ni indwara iza ku ruhu rw'umuntu imeze nk'ibiheri binini cyane, ikaba yandura cyane mu matembabuzi y'uwayanduye.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ari gutera umugore urushinge mu kaboko, umugore yambaye agapira k'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, afite ubwoba bw'urushinge.

MonkeyPox virus test, ni udukoresho bakoresha bapima icyorezo cya MonkeyPox dukozwe mu kirahure dufite imipfundikizo iri mu ibara ry'icyatsi.

Abaganga bari mucyumba kivurirwamo abarwayi, bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi, bambaye ingofero z'icyatsi, ndetse n'udupfukamunwa tw'icyatsi, bari kuvura umurwayi uryamye.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda bine, haryamyemo abarwayi babiri, harimo supanete eshatu, icyumba gisizwe amarangi y'umuhondo n'amarido y'umuhondo.

Abaganga batatu barimo babiri b'abagabo n'umwe w'umugore, bambaye imyenda y'ubururu, ingofero z'icyatsi n'udupfukamunwa tw'ubururu, bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda.

Icyumba cy'abarwayi ni icyumba gisize amarange y'umweru, harimo umurwayi umwe uryamye ku gitanda, umuganga ari kugenda azinga inzitiramibu zisa nk'ubururu zose azizamura hejuru.

Parikingi y'ivuriro. Ni ivuriro ririmo inyubako zisize amabara y'ivu. Parikingi irimo imodoka nyinshi zitandukanye, harimo umusekirite wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku ari kwereka imodoka aho zihagarara.

Umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi iryamye ku mutwe, yambaye agapira k'umweru, ateruye umwana mu kigoma. Inyuma ye hari umuganga wambaye amarinete ufite ibisuko, wambaye agashati k'ubururu gafite utubara tw'umweru mu ijosi.

Inzu nziza igeretse kabiri yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ifite amarange y'umweru, umukara n'ubururu, imbere yayo hari jarid nziza na kaburimbo.

Deriatric Center, ni inyubako yubatse mu buryo bwa kijyambere, yubatse mu marangi y'umweru, umukara n'umuhondo, munsi yayo harimo umukobwa wambaye akajipo k'umutuku n'agapira k'umuhondo.

Gihundwe hosipito harimo inyubako y'amatafari ahiye isize amarangi y'umuhondo n'amabati y'ubururu, harimo indabyo zikikije inyubako.

Inyubako yubatse mu buryo bwa kijyambere. Yubakishije amatafari ahiye. Isize amarangi y'umweru. Ikikijwe n'ubusitani bunini bwiza n'amatara akoresha umurasire wizuba.

Icyumba cy'abarwayi barembye cyane, harimo umurwayi uryamye ku gitanda, wiyoroshe ikiringiti kirimo amabara y'ubururu, umutuku, n'umuhondo, harimo amarido yo mu ibara ry'ubururu.

Umuganga n'umurwayi, umuganga w'umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye agapira k'ubururu, afite icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, ari gupima umuvuduko w'amaraso umusaza bose bari guseka.

Ikigo nderabuzima cya tabagwe cyubatse neza mu buryo bugezweho harimo inyubako z'amatafari ahiye esikariye ndetse n'ibyuma byo kuzamuka umurwayi afasheho.

Caraes Freres de La Charite, ni ivuriro rivurirwamo abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe, inyubako y'iryo vuriro igizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru ku madirishya.

Reception aho bakirira abarwayi, hari amakaro y'umweru, ibikuta by'umweru, hari amatara meza, hari intebe z'ubururu.

Sare ya materinite imbere yayo hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, iyi nzu yubakishije amatafari ahiye, isize amarange y'umuhondo na purafo nziza.

Nyarugenge disitirigite hosipito ibitaro by'akarere ka nyarugenge n'ibitaro byubatse mu buryo bwa kijyambere imbere yaho hari amapave meza ibiti ndetse n'ibyatsi byiza bigaragara ko hari isuku.

Abaganga batandatu b'abagore bahagaze hamwe, bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa tw'ubururu, bahagaze imbere ya Legacy Clinics.

Ircad Afurika inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere igeretse kabiri, yubakishije amatafari n'ibirahure, imbere yayo hari amapave ndetse n'uturabyo na jaride byiza.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bwa kijyambere, isize amarangi ya oranje n'amabati ya oranje, ikikijwe n'amajaride menshi n'indabyo n'amatara akoresha umurasire.

Hopital la Croix du Sud, ivuriro ryubatswe mu buryo bwa kijyambere, risize amarangi y'umuhondo n'umweru. Muri parikingi harimo imodoka z'ubwoko butandukanye.

Umuganga w'umugore yambaye imyenda y'icyatsi, afite ibisiko by'umukara. Yinjiye mu cyumba cy'abarwayi baryamamo. Harimo ibitanda n'amarido y'ubururu.

Ivuriro icyumba cy'abarwayi gisa neza cyujuje ibisabwa, kirimo inzitiramibu amarido ndetse gisa neza cyane, bigaragara ko nta barwayi baryamyemo.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere. Isize amarangi y'umweru, umukara n'amabati y'umutuku. Ikikijwe n'amashyamba, imisozi ndetse hari n'ibendera ry'u Rwanda.

Icyumba cy'barwayi baryamamo, harimo umusore n'umukobwa bari gukoramo isuku, harimo amarido, harimo ibitanda n'abarwayi baryamye.

EHF Rwanda catiri ofisi ni inyubako yubatse mu buryo bwa kijyambere igeretse rimwe. Ifite amarangi yo mu ibara ry'umukara n'umweru.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga ryo mu ivuriro rigezweho bakinjizamo umurwayi bakamusuzuma uburwayi bwose ndetse bakanasuzuma niba ubwo yari arwaye bwarakize.

Icyumba cyabarwayi baryamamo, ni icyumba gisize amarangi y'umweru, icyumba gifite amadirishya asize irangi ry'umukara n'ibirahure bibonerana, icyumba kirimo ibitanda byinshi n'amarido.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurennzi ni ikigo nderabuzima cyubatswe mu buryo bugezweho, ikigo nderabuzima kigeretse rimwe, gifite amabati y'ubururu n'amarangi y'umweru n'amakaro y'umweru, hari abarwayi baje kwivuza.

Mu ivuriro mu cyumba bavuriramo. Harimo abaganga babiri b'abakobwa, umwe wambaye itaburiya y'umweru, n'undi wambaye imyenda y'ubururu. Harimo umurwayi w'umukobwa wicaye wambaye agapira k'umukara.

Icyumba gikorerwamo siporo, gisize amarange y'umweru, harimo ibyuma bifite ibara ry'umukara, harimo ibirahure bibonerana, izuba riri kwinjira rigashyika mo imbere, harimo isaha imanitse ku gikuta.

Umuganga w'umugabo wirabura, yambaye itaburiya y'umweru, amarinete ndetse n'agakoresho gakoreshwa mu gupima uko umutima utera, afite agatabo mu ntoki, iruhande rwe hari umwana w'umukobwa wambaye agakanzu k'ubururu.

Umusore w'umuganga n'umukecuru baricaranye bari kuganira, bose bambaye imyenda iri mu ibara ry'bururu umusore yambaye n'agakoresho gapima uko umutima utera.

Medicolli sach instut inyubako nziza yubatse muburyo bwa kijyambere mumabara yumweru n'amabati y'umukara imbere yayo hari kaburimbo nziza nindabyo nziza.

Inyubako yubatswe muburyo bwa kera . Inyubako isize amarangi y'umweru irimo amakara y'umweru .Ifite amabati ndetse n'udutara twaka mu ibara ry'icyatsi n'amadirishya y'ubururu.

Inzu y'ababyeyi materinite, yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati y'ubururu, isize amarangi y'umuhondo, imbere yayo hari abaforomo basutamye imbere, n'abandi bayobozi bahagaze imbere yayo.

Ibikoresho byo mu ivuriro bapimiraho ndetse bakavuriraho indwara, bigendanye n'iterambere rigezweho kandi rifasha kubona indwara vuba.

Inzu zubatswe mu buryo bwa kijyambere, zubakishijwe amatafari ahiye, amatara, ubusitani, ibiti, indabo, imihanda irimo amapave ndetse n'utuyira duto duto.

Isange one stop center aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni inyubako yubatse mu matafari ahiye, amadirishya afite ibirahure bibonerana.

Mu cyumba bakiriramo abarwayi, harimo abarwayi benshi bamwe bicaye abandi bahagaze, abicaye bicaye ku ntebe z'umukara, harimo umugabo umwe uhagaze wambaye agapfukamunwa k'umweru, umupira w'umweru n'ipantaro y'umutuku.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, ni ikigo nderabuzima cyubatswe mu buryo bugezweho kigeretse rimwe, ikigo nderabuzima gisize amarange y'umweru n'amabati y'ubururu, ikigo nderabuzima kirimo ubusitani, indabyo ndetse n'amabuye ashashe mu mbuga.

Materinite inzu y'ababyeyi. Ni inzu yubakishije amatafari ahiye n'amarangi mu ibara ry'umweru. Imbere yayo hicaye abaganga. Bamwe baricaye, umwe arahagaze n'undi ari imbere y'idirishya

Inyubako yubakishije amabuye y'amasarabwayi. Iyo nyubako isa neza kuri iyo nyubako hari abagabo babiri bari kugenda. Bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umukara iyo nyubako ikikijwe n'ibyatsi bitoshye cyane.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, isize amarangi y'umuhondo n'amabati y'umutuku, imbere yayo hari abantu benshi bambaye inifomo y'umukara n'ubururu.

Aho binjirira bajya mu bitaro, hari umusekirite wambaye ishati y'umweru, ingofero y'ikigina n'ipantaro y'ikigina, hari urujya n'uruza rw'abarwayi, harimo imodoka ndetse n'inyubako zubatse mu buryo bwa kijyambere.

Mu bitaro harimo inyubako zubatse mu buryo bwa kijyambere, harimo umugore wambaye imyenda isa nk'icyatsi, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Umusore w'inzobe ari mu cyumba bakoreramo siporo, yambaye agapira k'umutuku, ikabutura y'umutuku n'umukara, inkweto z'umweru n'amasogisi y'umukara, ari gukora siporo.

Umusore ari mu cyumba bakoreramo siporo yambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'ikigina ari gukora siporo z'amaguru.

Abasore babiri bari mu cyumba gikorerwamo siporo, umwe aryamye ku gatanda k'umukara yambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, undi amuri imbere ari gukora siporo z'amaboko yambaye agapira k'umukara n'ingofero y'umukara.

Abaganga bari mu cyumba bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'ingofero z'ubururu, bamwe bicaye ku ntebe abandi barahagaze bari kureba muri televiziyo bareba amakuru.

Umukobwa w'imibiri yombi uri gukora siporo, yambaye kora y'ivu n'isengeri y'umuhondo, afite imisatsi myinshi ari gukora siporo yunamye, ikiganza cye gifashe ku kirenge cye.

Umukobwa uhagaze hanze ari kunywa amazi, afite umusatsi muke k'umutwe, yambaye isume mu bitugu, yambaye agapira karimo uturongo tw'icyatsi, umweru n'ubururu.

Umukobwa w'imibiri yombi ufite imisatsi y'umukara, yambaye kora y'umukara, inkweto z'umweru n'agasengeri k'umukara, yambaye ekuteri mu mutwe, iruhande rwe hari amazi, ari gukora siporo yifashe ku kirenge.

Abakinnyi bari mu kibuga cya basiketi bolo, bamwe bambaye amakabutura y'umukara n'amasengeri y'umweru, abandi bambaye amakabutura y'umweru n'amasengeri y'umweru.

Umusore w'imibiri yombi ufite imisatsi myinshi, wambaye isengeri y'umukara, ari gukora siporo, yazamuye amaboko, akaboko kamwe gafashe ku nkokora, akandi gafashe mu mugongo.

Umusore uri muri siporo ari kunywa amazi yambaye ekuteri z'ubururu agapira k'ubururu n'ikabutura y'ubururu ndetse n'akabande k'umweru ku kuboko.

Umusore wirabura, yambaye agapira k'umukara, amaze gukora siporo, afite icupa ribonerana ry'umweru, ari kunywa amazi meza.

Umusore wirabura wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara ateruwe n'abasore babiri bambaye amajire y'umutuku arimo udupira tw'umweru imbere n'amapantaro y'umukara.

Ni umugabo w'imibiri yombi wambaye agapira gasa nki'vu, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, ufite ibisuko ari kumwe n'umugore wambaye agapira k'ivu n'ipantaro y'umukara mu nzu ikorerwamo siporo.

Umusore wirabura wambaye akabodi k'umukara afite icupa ry'amazi, ari kuyanywa amutarukira mu maso yambaye amarinete arararamye arimo kureba hejuru.

Umukobwa w'umuzungu wambaye isengeri y'ubururu, ufite imisatsi miremire ihambiriye inyuma. Yazamuye akaboko k'iburyo, afite icupa ry'amazi, ari kunywa amazi araramye.

Umukobwa uri gukorera siporo mu rugo yambaye kora y'ubururu n'agapira k'umweru ari gukora siporo ivi rimwe riri hasi irindi yaririzamuye, amaboko ye yayazamuye hejuru.

Umusore w'umuzungu wambaye inkweto ziri mu ibara ry'umweru n'umukara, ikabutura y'umukara n'isengeri y'umweru, umukara n'umutuku ari kwiruka, imbuto zirimo karoti, pome, imizabibu, amaronji n'amashu.

Umuganga w'umugabo ufite imisatsi myinshi wirabura, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, yambaye imyenda y'ubururu. Ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda bamworoshe ishuka y'umweru bari kumuvura mu mugongo.

Umukobwa w'imibiri yombi wambaye isengeri, isaha mu kaboko, ekuteri mu matwi, ari muri siporo ari kugorora ibitugu yazamuye amaboko yifashe mu bitugu.

Umusore w'imibiri yombi uri muri siporo yambaye ikabutura y'umukara umupira w'umweru, yafashe ku kirenge cye ari gukora siporo z'amaguru.

Umusore wirabura ufite agasatsi gake, wambaye isengeri iri mu ibara ry'ubururu, arararamye, afashe icupa ry'amazi mu ntoki ari kunywa amazi.

Umusore wirabura, wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, umupira w'umuhondo, aricaye, ari gukora siporo, arunamye, yubitse umutwe, ibiganza bye bifashe ku maguru.

Abakinnyi mu kibuga cy'umupira w'amaguru, abakinnyi bamwe barahagaze, umukinnyi umwe aryamye hasi, abaganga babiri umwe w'umugabo n'ndi mugore, bari kumuvura ku kuguru bamusigiraho imiti.

Umukobwa w'imibiri yombi uri muri siporo, afite imisatsi myinshi cyane, yambaye agasengeri k'icyatsi, ikabutura y'ubururu n'inkweto zirimo amabara y'umweru, umukara, umuhondo n'umutuku, ari gusunika icyuma gikoreshwa muri siporo.

Umugore uri gukora siporo mu rugo, yicaye ku gatapi, yambaye kora yumutuku, n'agasengeri k'umutuku, ari gukora siporo yifashe, yambaye udusogisi k'umweru afashe ku birenge bye.

Umukobwa wicaye ku buriri bwiza mu cyumba gisize amarangi y'umweru, yicaye ku buriri yambaye kola y'umukara n'isengeri y'umukara, ari kwinanura.

Umusore wirabura uri muri siporo yambaye agasengeri gafite ibara ry'ivu, yifashe mu mutwe afite umusatsi w'umukara arahagaze yitegeye ikiyaga kirimo amazi.

Amacupa y'amazi meza afite imifuniko y'ubururu, metero ikoreshwa mu gupima ubugari n'ubunini bw'ibintu, akuma gakoreshwa mu gukora siporo z'amaboko, urusenda, imbuto zirimo amaronji.

Umuhungu n'umukobwa b'abazungu, baricaye begamanye ku migongo, umuhungu afite agasatsi gake naho umukobwa afite umusatsi mwinshi, umuhungu yambaye agapira gasa nk'ivu, umukobwa yambaye agapira gasa nk'umukara. Bose bari kunywa amazi meza.

Umugabo wirabura yambaye umupira w'umukara ari kunywa amazi ari mu gacupa kajya gusa nk'ubururu, inyuma ye hari ibyatsi bisa nk'aho ari muri siporo.

Icyumba cyo mu ivuriro kirimo amatara menshi cyane n'uburiri bufite ibara ry'ubururu ni icyumba gisa neza cyane gifite isuku nyinshi ndetse kiri kumurika cyane.

Abana benshi bambaye imyenda ya siporo, bari ku kibuga cy'umupira wa basiketi, bari gufana, barishimye cyane, bamwe bari gukoma amashyi, abandi bazamuye amaboko.

Mu cyumba. Umumansera upfukamye wambaye ivara mu mutwe n'amarinete ndetse n'ikanzu n'umuzungu barapfukamye bari kwita k'umwana uri hagati yabo.

Umusore w'umuzungu wicaye, yambaye ipantaro y'umukara, agapira k'ubururu afite aka eswime ku rutugu, ari kunywa amazi, afite telefone mu ntoki na ekuteri mu matwi.

Umusore wirabura yambaye agapira k'icyatsi cyijimye, ipantaro y'ikoboyi afite ikibazo ku kuguru ari kuvurwa n'umuganga w'umuzungu, amushyiraho bande ku kaguru k'iburyo.

Umukobwa wambaye agakora k'umukara n'agasengeri k'ubururu, ufite icupa mu ntoki ari kumwe n'umusore wambaye agakabutura k'umukara n'agasengeri k'ivu, bari muri siporo.

Ijaga y'ikirahure irimo amazi meza cyane n'ikirahure. Umuntu afashe ijaga mu ntoki ari gusuka amazi meza cyane mu kirahure agiye kuyanywa.

Umukobwa wicaye ku gitanda cy'umukara yambaye kora y'umukara n'agapira k'umukara yambaye urukweto rumwe, umusore w'umuzungu wambaye imyenda y'umukara ari kumuzirika bande ku kaguru k'iburyo.

Umusore wirabura yicaye hasi yambaye ikabutura ya shokora na'agasengeri k'umukara, yambaye inkweto zifunze afite tatuwage ku kaguru k'ibumoso, yambaye isaha y'umukara ku kaboko k'ibumoso.

Agasekuru gato n'agahini gato, hari imiti bari kugenda bayishyira mu gasekuru bagenda bayisekura kugira ngo barebe ko bakoramo umuti wavura indwara runaka.

Umugabo w'imibiri yombi wiyogoshesheje, wambaye umupira w'umweru, ari mu ishyamba ririmo ibiti byinshi, ari gusoroma umuti agenda akuraho utubabi.

Iduka ririmo imiti itandukanye ya kinyarwanda n'amazi, iduka ririmo amarange y'ibara ry'umuhondo, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite imisatsi miremire.

Umusore wirabura ahagaze hagati mu biti by'imyenya ari gusoroma imyeya, yambaye ingofero y'umukara, ibiti by'imyenya birashishe cyane.

Umurima urimo ibiti bitandukanye by'umuravumba, umurima barawubagariye, nta bindi byatsi birimo uretse ibiti byonyine by'umuravumba, bigiye bitatanye.

Inzu irimo amakaro n'irangi ry'umweru. Irimo ibikoresho byo mu muco nyarwanda birimo uducuma, utubindi, imiti ya kera ndetse n'inzu ya kera.

Umugore ufite imisatsi y'umukara yambaye agashabazi k'umweru, afite n'ibaga mu ntoki, ari gusoroma imiti y'imiravumba imiti ishishe cyane.

Muri pepeniyeri aho binaza ibiti, harimo ingemwe nyinshi z'ibiti by'umuravumba, inyuma hariyo abagabo n'abagore bahagaze bari kuganira.

Ingemwe z'ibiti ziri mu mavase y'umutuku amavase ateretse ku bitanda by'ibyuma ni ibiti bishishe kandi bisa neza cyane.

Umuganga w'umuzungu, wambaye itaburiya, afashe agakarito kavuyemo imiti, n'akandi karimo imiti mu ntoki, amaboko ye yayateretse ku meza y'umweru.

Imiti ya kinyarwanda iri mu ducupa turi muri etajeri igeretse gatatu, imiti imwe isa nk'ivu, iyindi isa nka oranje, iyindi isa nk'umukara, iyindi isa nk'ikigina.

Ipapayi ry'uzuye ndetse n'igice cy'ipapayi ,igice cy'ipapayi kirimo imbuto nyinshi z'ipapayi ndetse gisa n'umutuku w'imbere inyuma n'ibara ry'icyatsi.